Iki n'icyapa kinini cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi kigizwe n'amabara y'umukara, ubururu, icyatsi, n'umweru, hagati hariho ifoto y'umugabo ndetse n'umwana ukiri muto uri m'umugongo we.

Iki ni icyapa kinini kiri ku muhanda cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, kiriho umugabo ubona ari guseka gikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi hariho ifoto y'umukobwa usa nkaho akiri muto yambaye ipantaro ijya gusa ubururu, yicaye ku gikapu cy'icyatsi afite telefone mu ntoki ze.

Uru ni rubuga rukorera kuri murandasi rukoresheje ikoranabuhanga, rugizwe n'amabara y'icyatsi yanditseho amagambo "biroroshye" mu ibara ry'umweru kurusha uko ubitekereza, hariho inzu igerekeranyije yo mu bwoko bwa etaje ubona ko ibereye ijisho k'ubireba wese.

Iki ni cyapa kinini kimanitse hejuru mu kirere, kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'amagambo y'umweru, gisa nk'icyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, munsi yacyo gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iki ni icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi, hariho umukobwa mwiza cyane, wicaye, umusatsi muremure ndetse n'inkweto z'umukara, bisa nkaho ari kuruhuka.

Iki ni icyapa kinini kimanitse mu kirere kiramamaza ibijyanye n'ubwishingizi; kigizwe n'amabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu hariho abagore babiri ubona bafite ibyishimo basa nk'abakuze.

Iyi ni inzu nini igerekeranyije yo mu bwoko bwa etaje, igizwe n'ibirahure by'umukara hasi yayo kandi hari ubisitani bwiza butoshye ubona butanga umuyaga ndetse n'amahumbezi kubahagenderera bose.

Uru ni rubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi ruramamaza ibijyanye n'ubwishingizi rwanditse mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku hose hose rurasa ubururu, amagambo ariho aragira ati “ese wari uzi ko hari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse bwagenewe ibigo bitandukanye".

Iki ni icyapa gikorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga kiramamaza ibjyanye n'ubwishingizi, kiriho umugabo usa nukuze ndetse n'umugore ku ruhande n'abana babiri urabona ko bishimye.

Iki ni icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi gikorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi handitseho amagambo agira ati; "Wihangayika, intego ni ugutangira umwaka ushinganisha ibyawe n'abawe, maze ugire umutekano usesuye."

Uru ni urubuga rwa bake runaka rukorera kuri murandasi, ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza, kwakira ,kubikuza amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabyeye kuva aho uri cyangwa ngo ukore ingendo zidateganyijwe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, rukoreshwa na banki runaka, aho ushobora kohereza amafaranga cyangwa se ukayakira mu buryo bworoshye, bitagusabye gukora ingendo zimwe na zimwe zitateguwe.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, kandi bikihuta.

Uru n’ urubuga rwa banki runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kubitsa kohereza kwakira amafaranga mu buryo butakugoye akakugeraho aho uherereye hose byihuse.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kwishyura kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri cyangwa ngo ukore ingendo zitateganyijwe.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kohereza, kwakira, kwishyura amafaranga mu buryo butakugoye bitagusabye kuva aho uri, birihuse kandi birizewe nawe wabyikorera.

Uru ni urubuga rwa banke runaka rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ushobora kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri cyangwa ngo ukore ingendo zitateganyijwe.

Uyu ni umutegarugori ubona usa nukuze afite ibyishimo byinshi cyane kubera ko ari guseka, hirya ye hari imyambaro myinshi ihamanitse bisa nkaho araho igurishirizwa ndetse ku meza hateretse na murandasi.

Aba ni abagabo babiri ubona basa nk'abakuze, umwe ni umuzungu, undi ni umwirabura, hari ibyo ari yerekana muri murandasi, ikoresha ikoranabuhanga ubona ko ari ibintu byiza cyane bishishikaje ku bireba.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru, hejuru yuzuyemo imyenda myinshi imanitse ndetse n'amadarubindi, amashati, amapantaro, bisa nk'aho ari aho bigurishirizwa.

Aha ni ahantu heza ubona hakeye haraka amatara y'umweru huzuyemo abantu bagera muri batatu nk'uko bigaragara umwe muri bo afite imyenda ku ntoki zombi, umudamu kandi aricaye asa nkuri guseka.

Aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe basa nk'abakuze umwe muribo yambaye ishati yumweru ipantaro yumukara, bacigatiye ikintu kimeze nk'urufunguzo kinini inyuma yabo hari ikinyabiziga gitwara imizigo.

Aba ni abantu batatu basa nk'abakuze, bahagaze ahantu hamwe, barishimye ku maso yabo bari guseka, umwe muri bo ateruye umwana yambaye umupira w'umutuku. Abandi bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo gisa umweru, iruhande rwa bo hari imodoka y'umukara.

Iyi ni imodoka nziza isize amabara y'icyatsi ndetse n'amatara y'umweru isa nk'aho igurishwa cyangwa ikodeshwa hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Izi ni imodoka nyinshi ziri ahantu hamwe zisa nkaho zigurishwa cyangwa zikodeshwa, nyinshi muri zo ni umweru amabara yose ndetse n'umukara ku mapine zikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.;

aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe urabona ko bishimye bateruye ikintu kimwe kimeze nk'urufunguzo kinini mu biganza byabo, bahagaze imbere y'imodoka nziza y'umweru zimwe mu zitwara imizigo.

Aba n'abagabo babiri bahagaze imbere y' ikinyabiziga gitwara imizigo, bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu maboko yabo; umwe muribo yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro'umukara

Iyi ni imodoka nziza cyane yagenewe gutwara abantu, izengurutswe n'amabara y'umukara hose uretse inyuma, ifite amatara y'umutuku hari inzu nziza imbere yayo yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi bisa nkaho igurishwa.

Iyi ni inzu nini ubona ko ari ndende igizwe n'amakaro y'umweru, hasi harimo imodoka zigiye zitandukanye zose zirasa umukara, urabona ko ari nziza cyane wagira ngo barazigurisha.

Aba ni abagabo babiri basa nk'abakuze, bahagaze ahantu hamwe. Bari guhererekanya aka amverope k'umutuku. Ubarebye ku maso yabo urabona ko bishimye, bakikijwe n'imodoka nini zitwara imizigo ndetse n'abantu.

Iyi ni inzu nini igizwe n'ibirahure, ndetse n'amakaro y'umweru yuzuyemo, amamodoka agiye atandukanye amenshi muri yo arasa umukara, ndetse hateretse na murandasi ku meza iraho.

Aba n'abantu batatu bahagaze ahantu hamwe, biganjemo abagabo babiri basa nk'abakuze ndetse n'umugore uri hagati yabo, bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo muntoki inyuma hari imodoka nini itwara imizigo.

Aba ni abagabo babiri ubona basa nk'abakuze bahagaze ahantu hamwe, bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo kinini mu biganza byabo, inyuma kandi hari imodoka ndende y'umweru zagenewe gutwara abagenzi.

Iyi ni imodoka yagenewe mu gutwara abantu irasa umukara ndetse n'amatara y'umweru, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye aho ngaho bose.

Aba ni abantu bagera kuri batanu higanjemo abakobwa bane ndetse n'umugabo umwe wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari amashusho y'imodoka nziza cyane.

Aba ni abagabo babiri bari ahantu hamwe urabona ko bambaye neza barakeye, umwe muri bo yambaye amadarubindi bose bateruye ikintu kimeze nk'urufunguzo mu maboko yabo, inyuma kandi hari imodoka nini y'umukara.

Aba ni abagabo babiri basa nk'abakuze umwe arahagaze undi aricaye yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, agapfukamunwa, ndetse n'amadarubindi mu biganza bye, afite amafaranga bisa nk'aho bari kuyahererekanya.

Aya ni amafaranga ibihumbi bitanu y'amanyarwanda agizwe n'amabara y'umutuku ku ruhande ikiranga ntego gisize iryumweru hagati hari uduseke tubiri urabona ko bikeye cyane .

Aba ni abagabo batatu bahagaze ahantu hamwe, hameze nk'ahatangirwa amafaranga, umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu ndetse n'umweru, undi ni umutuku hejuru hasi ni umukara wijimye.

Aya ni amafaranga y' u Rwanda ushobora kuyifashisha ugura ibintu bitandukanye yaba ibyo kurya, ibyo gukoresha n'ibindi byinshi yanditseho banki nkuru y' u Rwanda hejuru, hasi amafaranga ibihumbi bibiri.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze arakeye cyane ku maso, yambaye itaburiya y'umweru ari imbere y'akajerekani kari kujyamo amata yo kunywa ava mu gikoresho bayabikamo.

Aba ni abantu batatu, biganjemo umukobwa umwe ndetse n'abagabo babiri, ubarebye neza, bafite ibyo kunywa mu ntoki zabo, barishimye, bari guseka, baranezerewe, nakugira inama rero nawe yuko wajya usohokana n'ishuti zawe, mukishimana.

Iyi ni inzu nini isize amabara y'umweru impande zose, imbere harimo umuntu umeze nk'umugore wambaye ikanzu y'umutuku, imbere ye hari igikapu cy'umukara ndetse n'akabido k'umweru gateretse ku meza ihari.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umuhungu arahagaze naho umukobwa aricaye kuntebe y' ubururu, inyuma ye hari ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo ibiryohera ndetse n' amazi, imbere ye Kandi hateretse amafaranga n' udukarito tw' umuhondo.

Izindi ni indobo ebyiri z'umweru zirimo ibyokurya bikorwa mu ifarini, hirya yazo hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda aho ahantu bose.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ugendamo abantu bagiye batandukanye, harimo ikinyabiziga kizwi nka moto. Kuruhande waho gato hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe hagurishirizwa ibijyanye n'amata, yaba inshyushyu ikivuguto nk'uko bigaragazwa n'ibikoresho bihari, umwe ni umugabo wicaye, undi ni umugore uhagaze wambaye agakoti k'umukara, agasatsi ke karasokoje ni keza cyane.

Ibi ni ibyo kurya ubona bibereye ijisho bikorwa hifashishijwe ifarini ndetse n'ibirayi, aho babikaranga mu mavuta kugeza bihiye benshi bashyiramo insenda ariko abandi ntazo bashyiramo.

Uru ni urubuga rwamamaza rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi rwa eyateri handitse amagambo y'umutuku ubonye amafaranga magana atanu kuri konte yawe ya eyateri mane.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kwishyura, kwakira amafaranga mu buryo butagoranye, bitagusabye kuva aho uri byizewe kandi byihuse.

Uru ni rubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi rwa eyatele, aho ushobora kohereza, kwakira, amafaranga mu buryo butakugoye, bitagusabye kuva aho uri cyangwa ngo ukore ingendo zitunguranye.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi, aho ushobora kohereza amafaranga cyangwa se ukayakira mu buryo bworoshye, yaba mu gihugu urimo ndetse no mu mahanga bikaza byihuse.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora kwakira, kohereza, kwishyura amafaranga mu buryo butakuvunnye bitagusabye kuva aho uri cyangwa ngo ukore ingendo zitateguwe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse no murandasi aho ushobora kwakira, kohereza amafaranga bitagusabye gukora ingendo zimwe na zimwe zitateganyijwe birihuse kandi birizewe nawe wabikoresha.

Uru ni rubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza, kwakira amafaranga yaba avuye mu gihugu urimo cyangwa se aturutse mu mahanga, mu buryo bwihuse kandi bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza kwakira amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, cyangwa ngo ukore ingendo zitateguwe birihuse kandi birizewe ntawe wabikoresha.

Aba ni abantu bagera muri bane, bahagaze ahantu hamwe, higanjemo abakobwa ndetse n'abagabo. Aho bari hari icyapa cyamamaza ko hakorerwa ibijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga y'anyamahanga.

Izi ni intebe ndetse n'imeza bikorwa hifashishijwe imbaho, ni ibikoresho ushobora gukoresha igihe urimo usangira n'abawe cyangwa se mwicaye muganira, akaba ari ibintu byiza cyane.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umuhondo impande zose ndetse n'amarido ari ku ruhande meza cyane, mo imbere kandi harimo indebe z'imifariso zimwe ushobora kwicaraho ukavimvira ziteretse ahantu hasa icyatsi.

Iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa eteje igerekerenyije bisa nkaho ari amacumbi isize amabara y'umweru, hejuru kandi hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti biri iruhande bihakikije bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini kandi ndende ijya hejuru harimo intebe z'imifariso hicayemo umuntu ntari kubasha kumenya neza, igizwe n'ibirahure ndetse n'amabara y'umweru ku mpande yabyo.

Aha ni ahantu heza hatatse indabo z'ubwoko bwose zigiye zitandukanye yaba iz'umuhondo iz'icyatsi ndetse n'umutuku, hari n'ibyo kunywa biteretse ku meza ikikijwe n'intebe zikorwa mu bibaho.

Aha ni ahantu ubona hakeye haka amatara impande zose amabara agiye atandukanye hari ameza y'andi mabara ndetse n'intebe zo kwicaraho hegereye inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije bisa nk'aho ari hoteli.

Ubu nu ubusitani bwiza bwicyatsi kibisi, harimo indabo zigiye zitandukanye, iz'umuhondo, umutuku, urabona ko zitoshye cyane, zikikijwe n'amazi kuruhande, ayo ushobora kogamo igihe wasohokanye n'abawe n'umuryango aha ahantu.

Iki ni icyumba cyiza kinini kigizwe n'amabara y'umweru impande zose n'umuhondo, ndetse no hasi nuko. Kirimo amatara agiye atandukanye n'uburiri bushashe neza cyane urabona ko bikeye.

Izi n'intebe nziza z'imikara imbere yazo hari imeza y'ibirahure ubona ko ari ibintu byiza cyane, zikikijwe n'ibiti birebire hirya aho bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aya ni amazi akeye abantu bogamo igihe bari kwishimisha; akikijwe n'ibiti birebire kandi byiza bitanga umuyaga ndetse n'ubusitani bunini bw'indabo zitandukanye.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo ku ruhande tw'umweru, ukikijwe n'ibiti birebire, bitoshye, bitanga umuyaga ndetse n'inzu nini cyane yo mu bwoko bwa etaje.

Ubu n'ubusitani bwiza butoshye, burimo indabo z'icyatsi ndetse n'umuhondo; hagati hari intebe ndetse n'imeza bihatertse, n'umutaka w'umutuku ndetse n'undi w'umukara. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahari bose.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etage igerekeranije isize amabara ajya gusa umutuku hasi yayo hari ubusitani bwiza butoshye busa icyatsi harimo indabo zigiye zitandukanye babona kobereye ijisho.

Aha ni ahantu heza haka amatara agiye atandukanye, hari intebe nziza zo kwicaraho igihe wasohokeye wowe n'inshuti n'abavandimwe, hari n'ibiti birebire bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahari bose.

Ubu ni ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye, buratoshye burasa icyatsi. Hagati yabwo harimo inzira y'uturongo tw'umweru ndetse n'umukara ubona tugana ku ntebe zihari, ndetse n'ameza. Bukikijwe n'ibiti birebire bitanga amahumbezi.

Aha ni ahantu heza cyane hari mu mabara y'umuhondo, hari amazi yagenewe kogwamo n'abantu benshi, hateretse by'umukara ndetse n'imitaka y'ubururu, hakikijwe n'ibiti birebire byiza ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza irimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe z'imifariso ndetse n'ameza akozwe mu mbaho ateretsemo ibirahure. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, igizwe n'amabara y'umweru hejuru ndetse n'umuhondo hasi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bakoresha aho hantu bose.

Uyu ni umugabo wambaye imyenda y'umweru ahantu hose, agapfukamunwa k'ubururu, afite icyuma mu biganza bye hari icyo ari gukata, imbere ye hateretse ibyo kurya byinshi nk'ibitunguru, inyanya na karoti n'ibindi.

Ubu ni ubusitani bwiza ubona butoshye, bugizwe n'indabo z'icyatsi, umweru ndetse n'umuhondo, hirya gato hari intebe zihari z'umukara, urabona ko ari izo kwicaraho, ni ibintu byiza bibereye ijisho.

Inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje, igizwe n'ibirahure impande zose, iragerekeranyije inshuro nyinshi, hasi hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru kumpande, ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane burimo indabo zigiye zitandukanye, n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi n'inzu nini yo mubwoko bwa etaje, igizwe n'ibirahure byinshi, amabara y'umuhondo ndetse nay'umutuku kuruhande gatoya hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini igizwe n'amabara y'umweru hejuru ku ruhande umutuku higanjemo abantu benshi basa nk'abakuze ubona bakeye kumaso ndetse no ku myambaro n'ibintu bigaragara neza cyane.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe higanjemo abagabo ndetse n'umugore umwe, babiri muri bo barahagaze undi arayicaye asa nk'uri kubabahereza impapuro, umudamu ari kumwereka muri telefone ye.

Uyu ni numugabo ubona ari guseka mumaso ye arishimye bisa nkaho akuze, ateruye umwana mumaboko ye wambaye agapira k'umweru, imisatsi ye ni miremire iramanuye, barishimye cyane ubarebye uko bameze bagaragara bari guseka.

Uyu n'umukobwa mwiza ubona usa nkaho akiri muto, yambaye umupiri w'umweru, ingofero y'umukara, acigatiye telefone mu ntoki ze. Imbere ye hicaye abagabo bagiye batandukanye, benshi muri bo bambaye imyenda y'ubururu.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga, ndetse na murandazi rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu rurimi rw'icyongereza, ku ruhande gato hari umusore ubona usa n'ukuzemo wambaye ishati y'uturongo, ari guseka ndetse n'umupira w'umweru.

Aha ni ahantu hari gusa amabara y'icyatsi, hari abantu bagiye batandukanye, higanjemo abagore batatu, umwe muri bo aricaye, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo, bisa nk'aho hari ibyo ari gusa abahagaze bari kumusaba.

Iyi ni inzu nini yuzuyemo abantu benshi cyane, bamwe barahaga, abandi baricaye, higanjemo abagore benshi bari imbere y'ibiribwa, nk'ibitoki, inyanya, ibitunguru, intoryi, ndetse n'ibindi.

Aba ni abagore bane bari ahantu hameze nko mu isoko hari ibiribwa biteretse imbere yabo nka karoti, inyanya, intoryi insenda n'ibindi bigiye bitandukanye, nagushishikariza kujya uhahira ahantu nk'aha ngaha kubera ko biba byiza uhakura ibintu bishyashya gusa.

Uyu ni umukobwa cyangwa se umutegarugori, yaduteye umugongo, yambaye ikanzu ijya gusa icyatsi kijimye, udukweto tw'umukara, umusatsi we urasokoje, hari ibyo afite mu ntoki ze, ahantu ari wagira ngo ni mu isoko kubera ibintu bihari.

Abagore bagera muri batatu bicaye ahantu hamwe barakeye ubarebye kumaso yabo basa nkabakuze bari imbere yibiribwa nkibitunguru, inyanya , intoryi nibindi bigiye bitandukanye wagira ngo bari mwisoko ricururizwamo.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe abadamu babiri bari guseka n'umugabo umwe waduteye umugongo uhagaze imbere y'ibyo kurya n'inyanya, imboga ndetse n'imiteja. Urabona ko ari ibintu byiza cyane bisa nkaho bari mu isoko.

Aha ni ahantu hanini bisa nk'aho ari mu nzu isakaye yuzuyemo imyenda myinshi wagira ngo ni mu isoko ryayo hahagazemo abantu bamwe baricaye bari umbere y'imashini zidoda,

Aha ni ahantu huzuye abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo witegereje neza urabona ko ari mu isoko kubera ibicuruzwa bigiye bitandukanye bihari nk'inkweto, imyenda n'ibindi.

Aha ni ahantu hanini huzuye abantu benshi ubona bagiye batandukanye biganjemo abari n'abategarugori, bisa nk'aho bari gucuruza kubera ko imbere yabo hateretse ibiribwa, ubonamo nk'inyanya, ibitunguru, intoki n'ibindi byinshi.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo, yuzuyemo abantu. Ku mpande zose, munsi ya yo haparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye; amamodoka, moto, ndetse n'amagare, si ibyo gusa, n'abantu bahagaze iruhande rwawo.

Aha ni ahantu higanjemo abantu benshi, huzuyemo abagore basa nk'abakuze, bamwe barahagaze abandi baricaye, imbere yabo hari ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'ibirayi, ibitoki, bisa nk'aho ari mu isoko.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara, ukikijwe n'abantu ku mpande bari kuhaca, abandi bari kuwambukamo, hirya gato hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, amagare ndetse n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo wuzuyemo abantu benshi urujya n'uruza, ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka moto ndetse n'amagare, hirya gato hari isoko rigizwe n'amabara y'ubururu.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe higanjemo umugore ndetse n'umugabo wambaye ikote ry'umukara afite telefone ku gutwi yicaye kuri moto wo ku ruhande nawe aribyo ari kureba mu biganza bye yambaye umupira w'umuhondo wa MTN.

Aba ni abagabo basa nk'abakuze bambaye impuzankano z'imihondo ndetse n'amapantaro ajya gusa umukara bari imbere y'ibyapa binini byanditseho emutiyene.

Uyu ni umukobwa mwiza, uhagaze ahantu akikijwe n'intoki zisa icyatsi, yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro ijya gusa ubururu, afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi, bisa nk'aho hari abo ari kubwira.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutuma ibyo kurya cyangwa ibintu ibyo aribyo byose bikakugeraho mu buryo butagoranye kandi bwihuse bunizewe.

Ibi ni ibinyabiziga bizwi nka moto bihagaze ahantu hamwe bifite amabara agiye atandukanye harimo umutuku ,icyatsi n'umuhondo n'ibindi . Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi .

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora gutumizaho ibyo kurya byose wifuza bikakugeraho utarinze kuvunika ujya kubishakisha hirya no hino mu masoko mu buryo bworoshye.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kugurira buri kimwe cyose wifuza bitagusabye kuva aho uri. Hariho ifoto y'umuzungu wambaye ikote rijya gusa ubururu ndetse n'isaha nziza.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga, ndetse na murandasi aho ushobora guhaha ibyo ushaka byose bikakugeraho bitagusabye kuva aho uri, yaba ibikoresho by'amashanyarazi, imyenda y'abagabo, iy'abagore, ndetse n'iy'abana.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora gutumizaho buri kimwe cyose wifuza bakakikugezaho, bitagusabye kugera aho bari, byihuse kandi byizewe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kugura imyambaro yawe mu buryo bworoshye, yaba ipantaro, ishati, imipira n'ibindi bitagusabye kuva aho uri kandi byihuse.

Aba ni abantu benshi bambaye impuzankano isa umukara ndetse n'umweru, bari imbere y'udukoresho duterekwamo ibiribwa nk'ibitoki, turi mu mabara agiye atandukanye; nk'umuhondo, ubururu, icyatsi, n'umutuku.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi aho ushobora gutumiza ibyo kurya byawe harimo nk'amagi bikakugeraho byihuse bitagusabye kuva aho uri, nagushishikariza ko wajya ukoresha ubu buryo kubera ko bukurinda ingendo zitandukanye.

Uru ni urubuga rukoresha ikorabuhanga ndetse na murandasi, rugurishirizwaho ibyo kurya utavuye aho uri, harimo imbuto ndetse n'ibindi nk'ibyo. Ni ibintu byiza rero nagushishikariza yuko nawe wajya ubikora kuko bigufasha kwirinda ingendo zitateganyijwe.

Uyu ni numugabo wambaye imyenda y'icyatsi utabasha kugaragara mu maso, akorera urubuga aho ushobora gutumiza ibyoku kurya bikakugeraho bitagusabye kuva aho uri cyangwa kuvunika ukora ingendo zitateguwe.

Iyi ni inzu nziza kandi nini, igizwe n'ibirahure, iragerekeranyije, iruhande rwayo hari ibiti birebire by'icyatsi, ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku batuye aho bose.

Iki ni icyumba kinini ubona gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, gikikijwe n'amarido agiye atandukanye ku ruhande hari amatara yaka neza cyane uburiri buriho urabona ko ari ibintu byiza.

Iyi ni inzu nini kandi nziza igizwe n'amabara y'umweru, amatara y'ubwoko bwose ibirahuri by'ubururu iherereye i Kanombe, bisa nk'aho ikodesha cyangwa se igurishwa.

Iyi ni inzu nziza igizwe n'utubati tugiye dutandukanye, dusize amabara y'umweru ifite amadirishya y'ibirahure abonerana, harimo ibikoresho byose byifashishwa mu gikoni, urabona ko ari ibintu bibereye ijisho kandi bikeya cyane.

Iyi ni inzu nziza kandi nini isize amabara y'umweru, impande zose hari ibishushanyo ubona bibereye ijisho, amatara yayo aratandukanye, irimo utumeza ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru impande zose, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hejuru haraka itara ryiza, ku ruhande kandi hari igitanga umuyaga ndetse n'intebe z'imifariso n'ameza akeye cyane, urabona ko ari ibintu bigaragara ko bibereye amaso.

Iyi ni inzu nziza ubona irimo amabara agiye atandukanye higanjemo umweru ndetse n'amatara meza cyane yaka neza hari intebe z'imifariso izo ushobora kwicaraho ukavimvira unabishatse ukaba waziryamamo.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etaje ibereye ijisho ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, hasi haparitse ibinyabiziga nk'imodoka iherereye Nyarutarama Kigali.

Iki ni igipangu kirekire kiriho senyenge hejuru yacyo nk'imbere harimo inzu nziza isize amabara y'ubururu bwijimye ndetse n'umweru ukikijwe n'ibiti by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi .

Iyi ni inzu nziza ubona ko ibereye ijisho isize amabara y'umweru ndetse n'ubururu ku mpande ibirahuri byayo n'umukara ifite imbuga ngari ushobora gukiniramo wowe n'abawe mwishimisha irakodeshwa iherereye Kigali Kanombe.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho ushobora kugura cyangwa ukagurisha, ukaba wanakodesha inzu cyangwa ikibanza mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje, igerekeranyije, isize amabara y'umweru ku mpande ndetse no hejuru, hasi gatoya ni ubururu bwijimye, igizwe n'ibirahure by'umukara, nawe wayigurira, iherereye Kigali, Kimironko.

Iyi ni inzu nini isize amabara y'ubururu bwijimye hagati ni umweru , hejuru ni umutuku ifite imbuga ngari yo gukiniramo, ku ruhande kandi hari ubusatani bwiza bubereye amaso butoshye butanga umuyaga n'amahumbezi kubatuye aho hantu.

Iyi ni inzu nziza iri mu mabara y'ubururu bwijimye, ibirahure byayo ni umukara ndetse n'amadirishya ni icyatsi hagati hari andi y'umuhondo, ifite imbuga nini cyane kandi ngari.

Iyi ni inzu nziza ifite imbuganga ngari isizwe amabara y'umutuku, ibirahuri ni umukara, hirya gato n'umuhondo urabona ko isa nk'ikodeshwa iherereye kigali kimironko

Iyi n'inzu nini nkuko bigaragara irakodeshwa, isize amabara y'umuhondo ndetse n'ibirahure by'umukara ifite imbuga nini ngari ushobora kwisanzuramo uri gukina n'abawe.

Iyi ni inzu nziza igizwe n'ibirahure by'umukara, amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hejuru gato ifite amabati y'umutuku ndetse n'imbuga ngari ushobora kuba wakiniramo n'abawe iherereye Kanombe i Kigali.

Iyi ni inzu nini bisa nkaho icururizwamo imyenda, kuko niyo imanitse ari myinshi impande zose, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, basa nk'abakuze barishimye bameze nkaho baje guhaha.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etaje bisa nk'aho ari isoko, irimo amabara agiye atandukanye yuzuyemo ibyokurya by'ubwoko bwose, n'inyanya, ibitunguru, amavoka, insenda, n'ibindi hari n'abantu bari kubigurisha.

Iyi ni inzu ubona yuzuyemo abantu bagiye batandukanye basa nk'abakuze harimo abagore ndetse n'abagabo, ku ruhande huzuye ibikapu byinshi bimanitse ahantu hamwe bisa n'aho bagurisha.

Ni inzu nziza kandi nini irimo amakaro y'umweru ndetse n'umukara itatswie n'amatara y'ubwoko bwose harimo ibimeza by'umutuku impande nyinshi hari umugabo uhagaze bisa nk'aho hari ibyo yaje kugura.

Aha ni ahantu bisa nkaho ari mu isoko, huzuye abantu benshi bagiye batandukanye, bambaye imyenda itameze kimwe bose barahagaze, hirya gato kandi hari ibicuruzwa wagira ngo ni ahagurishirizwa ibyo kurya.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe hari ibikoresho bigiye bitandukanye yaba ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibindi bisa nk'aho bari mu isoko barahagaze baracye babona ko ari ibintu bibereye ijisho.

Uyu ni umugabo ubona ukeye ku maso ye afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kugira ngo agere ku bantu benshi mu kiganza cye yambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru urabona ko afite ibyishimo umurebye neza.

Uyu ni umukobwa usa n'aho akiri mutoya umurebye neza mu maso urabona ko afite ibyishimo ari guseka yambaye ingofero y'ubwirinzi isubureti y'ubururu n'agashati k'umweru mo imbere afite inyundo mu maboko ye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe. Bamwe baricaye abandi barahagaze, impande yabo hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo ejo heza ubona ko ari ibintu bibereye ijisho kubireba.

Aba ni abari n'abategarugori bagera kuri babiri, bambaye neza imikara bose barishimye urabona ko bari guseka, hari icyo bafite mu biganza byabo gisa ubururu cyanditseho umunyamuryango ku isonga.

Uyu ni umugabo ubona usa nkukuze; wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umutuku afite icyapa kinini mu ntoki ze kigizwe n'amabara y'umweru cyanditseho amazina ye, ahagaze mu busitani bwiza cyane bw'indabo zigiye zitandukanye zitoshye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bamwe barahagaze abandi baricaye, bafite imitaka bari imbere y'icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo ejo heza.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ikuze, yambaye agapfukamunwa ndetse n'ikanzu y'umutuku, kuruhande hari inzu nini yicayemo umuntu ndetse n'undi uhagaze, isize amabara y'ubururu.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe higanjemo urubyiruko rwambaye impuzankano zijya gusa uko ari bose, imbere gato hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo ejo heza, hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije inshuro nyinshi igizwe n'ibirahure binini by'umukara, hasi hari ubusitani butoshye bw'icyatsi ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe ubona bake cyane higanjemo abagore, abagabo ndetse n'abana. Harimo abakuze muri abo, urabona ko ari ibintu byiza cyane bisa nk'aho hari ibyo bategereje.

Iyi ni inzu nini irimo amatara ari kwaka irasa icyatsi ku mpande zayo, huzuyemo ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo nk'inyanya, intoryi, inanasi, amapera n'ibindi byinshi.

Uyu ni umugabo usa n'ukuze mo gakeya, wambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umutuku, ipantaro ijya gusa ubururu n'inkweto z'umukara, ari imbere y'imbuto zigiye zitandukanye.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya imisatsi ye ni miremire kandi iramanuye yambaye ikote rijya gusa ubururu ndetse n'umupira w'umweru, sibyo gusa, n'amadarobindi mu maso bisa nk'aho yaje guhaha.

Aha ni ahantu hanini hari ibikoresho bigiye bitandukanye, bishobora kuba ari mu isoko, hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru ndetse n'uturongo tw'umukara, ipantaro ijya gusa ubururu, uri gufata bimwe muri ibyo bikoresho.

Aha ni ahantu hanini harimo ibikoresho bikonjesha ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'amazi, ibiryohera n'ibindi urabona ko ari ibintu bibereye ijisho.

Iyi ni inzu nziza irimo amatara yaka amabara y'umweru yuzuyemo ibiribwa byinshi harimo amavuta n'ahantu hagaragara nk'aho bahahira, hari iduka ricuruza ibyo byo kurya.

Iyi ni inzu nini ubona ko irambuye, isizwe amabara y'umweru hasi no hejuru, harimo amatara agiye atandukanye, y'uzuyemo ibyoku kurya byinshi, bisa nk'aho ari aho bigurirwa.

Aba ni abantu babiri bose barahagaze, higanjemo umugabo ndetse n'umugore. Bambaye udupfukamunwa bari ahantu hagurishirizwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, bisa nk'aho umwe ari kugura undi ari kugurisha.

Iyi ni inzu nini yuzuyemo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bisa nk'aho ari aho bigurishirizwa. Harimo umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye agakote k'ubururu ndetse n'agapira k'umweru, hari ibyo afite mu biganza bye.